Abantu benshi bicaye, abambaye imipira ya lakosite y'ubururu, amashuri, umuntu uhagaze wambaye umupira w'umweru, ndetse n'ipantaro y'umukara, n'inkweto z'umweru, ndetse n'intebe bicayeho, ibiti byicyatsi.